Aka kagaragaza uburyo bwo kwishyura bugendanye n'ikoranabuhanga ukoresheje Airtel cyangwa ukaba wakishyurwa bitewe n'ibyo ushaka kugura cyangwa ushaka kugurisha.

Aka ni agapapuro, gaturuka mu kigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, kagaragaza ko umuntu yishyuye umusoro. Umusoro utuma igihugu gitera imbere, hakubakwamo amashuri, amavuriro, ndetse n'imihanda.

Aha ni ahantu hatangirwa ubufasha bwa MTN, ikigendanye no kuba wagura simukadi cyangwa wabaza n'ibindi bibazo, hari abakozi babo ba MTN babiri bambaye imipira y'umuhondo, ishushanyijeho ibirango bya MTN ndetse bafite n'umukiriya umwe imbere yabo, bafite n'imashini bari gukoreramo.

Iki ni ikirango kiragaragaza isoko berekana uburyo ki baguha ibicuruzwa bakabikugezaho bitewe n'aho uri mu buryo bworoshye kandi bwizewe bikakugeraho ku giciro gitoya.

Aha hari ikirango kigaragaza kwishyura inzu yo muri Kigali ku mafaranga miliyoni mirongo irindwi n'eshanu ukaba wagerayo ukigurira nta kibazo rwose.

Iyifoto iragaragaza ubutaka abantu bagura bakaba baturaho cyangwa bakabuhingaho bitewe n'icyo ushaka kubukoresha. Umuntu wese aba yemerewe bitewe n'igiciro ubutaka buriho waba ufite amafaranga ukagenda ukishyura.

Ifoto iragaragaza umuntu yicaye ahatangirwa ubwishingizi mu kwivuza, akaba ari ahantu umuntu atanga amafaranga akaba yishinganye ku bijyanye no kwivuza yarwara cyangwa agahura n'impanuka akajya kwivuza ku giciro gitoya nta kiguzi cyinshi.